Ikigo gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abaturage bo ku isi hose aho iki kigo kigenda gihereza inkunga ibihugu bigiye bitandukanye kugira ngo byite ku baturage baho bababashe kugira ubuzima buzira umuze.

Ni abaganga bari kwita ku mukecuru bamusuzuma indwara zigiye zitandukanye harimo: Kanseri, Diyabete, Malariya ndetse n'izindi zahungabanya ubuzima.

Ni umusaza urimo kuvoma amazi, akoreshwa ibintu bigiye bitandukanye harimo: kumesa, koga, koza ibyombo ndetse no gukoropa, bikaba bidufasha mu gusukura aho dutuye.

Leta y'u Rwanda yakoze igishoboka cyose ngo basakaza amazi mu baturage rwagati, hamwe bagiye basakaza amazi mu baturage kugira ngo barebe ko batera imbere vuba.

Bamwe mu baturage b'Africa ubuzima ntabwo bworoshye, bamwe babura ibiryo bakaburara, bamwe badafite aho kurara, abandi babuze iyo bagana, uyu muntu yicaye muri rigore byamuyobeye yabuze iyo agana.

Amenyo y'umuntu agomba guhora asukuye kugira ngo yice udukoko two mu imbere dutuma amenyo abora bigatuma acukuka kandi amenyo y'umuntu agomba kuba asa umweru dede.

Abantu bakuru bagomba kwitabwaho babagaburira indyo yuzuye harimo ibimera, imbuto, ibitanga imbaraga, mbese n'ibindi byinshi cyane. Gusa muri byo ibimera nicyo kintu cyagombye kuba gitangwa cyane, kizamura vitamine mu mubiri zigabanya gusaza.

Uyu mukecuru asheshe akanguhe aho afite akamwenyu kwisura, ifite ubuzima buzira umuze aho banezerewe cyane bafite ibyishimo birenze igipimo.

Umuhanzi nyarwandata MICO The Best ari gukangurira abantu kwisuzumisha igituntu kuko kivurwa kigakira mu gihe kitari kirekire cyane wihutiye kwisuzumisha akawuhabwa ku gihe cya nyacyo abasha gukira.

Iri n'iduka ricuruza imiti ku banyarwanda, aho abarwayi bajya gufata imiti bakishyura bakoresheje uburyo butandukanye, kugira ngo babashe gukira mu bantu.

Ni ibitanda byo kwa muganga aho abarwayi baruhukira ndetse n'aho bahura n'abaganga mu gihe bagiye kubavura indwara zitandukanye, harimo nk'ibicurane, malariya, diyabete ndetse n'izindi nyinshi.

Ni icyumba aho abantu barwaye amaso bajya bagafata ibipimo by'aho amaso yabo ageze arwara.

Uburyo abaganga bakunze gukoresha kugira ngo bagabanye ububabare bw'igufawa ryavunitse, bagafata barafu bagashyiraho kugira ngo bigabanye, ububabare bw'iryo gufwa ryo muri icyo gice.

Abayobozi b'u Rwanda bakangurira abaturage gukora siporo, ibi bigatuma abaturage b'u Rwanda bagira ubuzima buzira umuze, bigatuma u Rwanda rutera imbere byihuse.

Iki ni ikigo gishinzwe kugenzura ibiryo ndetse n'imiti yinjira mu rwanda iki kigo kikaba gishinzwe kugenzura nimba ibiryo abaturage babona ari byiza.

Iyi ni gahunda yazanywe kugira ngo abagore bagire ibiro bikeya bagire ubuzima buzira umuze hamwe bafite ibiro bihwanye n'ingano yabyo.

Iyi ni imiti gakondo yavumbuwe n'abakurambere bacu idufasha mu kuvura indwara zi zitandukanye no kuribwa mu nda mumutwe ndetse n'izindi ndwara zituma ubuzima bwacu bumera nabi.